Ibimera birebire cyane biri imbere y'igikorwa remezo kirekire cyane gifite amabara menshi cyane kandi atandukanye arimo umweru ndetse n'umutuku ndetse kiriho n'ibindi bikoresho byinshi cyane bitandukanye hejuru yacyo.

Igipangu kinini cyane kiri iruhande rw'imbuga nini cyane irimo abantu benshi cyane batandukanye ndetse ihagazemo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse ishinzemo icyapa kinini cyane gisa umweru.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye ku maso ye ibintu bimufasha kugira ngo arebe neza ndetse wambaye imyenda ifite amabara abiri atandukanye arimo umutuku ndetse n'umweru.

Ibikoresho bibiri bifite ibara ry'umutuku ndetse biriho n'ibyapa binini cyane bifite ibara ry'umutuku byanditseho amagambo ndetse n'inyuguti nyinshi cyane zitandukanye, biri ku gikuta gifite ibara ry'umweru ndetse iruhande rwaho hari urugi.

Icyumba kinini cyane kirimo amatara menshi cyane cyicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara ndetse imbere yabo hari imeza zirambitseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane y'amabati isa ibara ry'ubururu ifite inzugi iri iruhande rw'ibimera byinshi cyane bifite amabara atandukanye biri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye ndetse n'abantu.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane kandi atandukanye arimo umweru ndetse n'umukara, urimo ikinyabiziga kinini cyane gisa ibara ry'umweru ndetse n'ibindi binyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Icyapa kinini cyane kiri ahantu hasa umweru gifite ishusho y'ikizeru gifite ndetse n'amabara menshi cyane atandukanye arimo umweru ndetse n'ubururu.

Ibyapa bibiri biri ku cyuma kirekire byerekeza mu byerekezo bibiri bitandukanye ,ndetse bifite ibara ry'umweru ririho inyuguti nyinshi cyane zitandukanye ndetse n'imibare iri mu ibara ry'umukara.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara menshi cyane kandi atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, imbere yayo hari ibinyabiziga byinshi cyane bihagaze bifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse hahagaze n'abantu.

Inzu nini cyane yubakishijwe amatafari ndetse isize amabara y'umweru, ifite amabati, imbere yayo hari abantu benshi cyane, bahagaze iruhande rw'umuhanda munini.

Umuhanda munini cyane kandi muremure urimo amabara y'umuhondo, urimo ikinyabiziga uri hagati y'ibimera byinshi cyane birimo ibiti birebire cyane bisa ibara ry'icyatsi.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane kandi atandukanye arimo umuhondo, umweru ndetse n'umukara, urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.

Ibimera byinshi cyane ibinini ndetse n'ibigufi, biri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, bifite amabara menshi cyane atandukanye.